Abana bambaye impuzankano z'ishuri bari ku isoko y'amazi rusange umuhungu umwe araseka azamuye amaboko asa n'uri kwishimira ko amaze gukaraba abandi bari kunywa amazi cyangwa gukaraba intoki hari urukuta rw'amatafari inyuma n'abandi bana bagenda mu kibuga.

Umuganga uri mu cyumba cy'ubuvuzi, yambaye umwambaro w'icyatsi, agapfukamunwa n'ingofero y'umuhondo, ari kwitegereza imashini igaragaza ibipimo by'umurwayi, hari ibikoresho by'ubuvuzi nk'ibikoresho bitanga umwuka n'imashini igenzura ubuzima bw'umurwayi.

Abantu bicaye ku ntebe hanze y'inyubako mu cyumba k'ivuriro bamwe bafite impapuro mu ntoki, hari abagore benshi bambaye imyenda y'igitenge bamwe bafite imitavu. Muganga yicaye imbere yabo yakira umurwayi naho abandi bari ku murongo bategereje guhabwa iyo serivise. Hari kandi n'ibindi byapa bigiye bitandukanye ku nkuta z'aho bari gukorera.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ahereza umwana muto amata mu icupa, ari kumwe na nyina w'umwana, hari abandi babyeyi bicaye inyuma bose bafite abana bato, birasa n'igikorwa cyo gukangurira abana kwita ku mirire y'abana bato.

Umwari wambaye umupira w'iroza n'ijipo y'umukara arasutamye, ari guseka ndetse ari kuvoma akoresha ikivomesho cy'umuhondo, inyuma yari imyenda igiye itandukanye yanitse ku mugozi bigaragaye ko yari ari kumesa.

Umugore uvuye kuvoma, yikoreye ikivomesho cy'umuhondo yafunze neza ku mutwe, iburyo bwe hari umwana muto w'umuhungu, wikoreye ikivomesho cy'umuhondo ku rutugu, ibumoso bw'uwo mugore hakaba hari umwana muto w'umukobwa ndetse ari no kubareba.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bahagaze imbere y'inzu bari gufata ifoto, bambaye imyenda igiye itandukanye irimo amakoti y'icyatsi n'imyenda irimo ibitenge. Hari abagore bafite abana mu ntoki fafite akanyamuneza mu maso, bigaragaza ubumwe n'ubufatanye.

Imbonerahamwe igaragaza kugabanuka kw'imfu ziterwa no kwiyahura mu Rwanda. Urupfu ruterwa no kwiheba rwaragabanutse kuva mu bihumbi bibiri na kabiri, imibare yagendaga imanuka bigaragaza impinduka nziza. Mu bihumbi bibiri na gatanu ubuvuzi bushingiye ku muryango bwatangijwe bufasha benshi kubona ubufasha bwo mu mutwe. Iyi gahunda yagiriye benshi akamaro, igabanya ihungabana no kwiheba, igatera ikizere mu mibereho y'abaturage.

Abana bato, umuhungu n'umukobwa bambaye imyambaro y'ubururu, bari koza amenyo hakoreshejwe uburoso. Umukobwa uri imbere afite uburoso bw'umuhondo, naho umuhungu uri inyuma afite uburoso bw'icyatsi. Bari gukoresha umuti w'amenyo bigaragazwa n'amacandwe y'umweru ari ku minwa yabo.

Umukobwa w'umwirabura w'imisatsi y'umukara, w'ishinya y'umukara wambaye isengeri y'umweru, ari kugerageza kuba yakoza amenyo akoresheje urudodo, urudodo rwifashishwa mu koza amenyo hagati y'amenyo ndetse no mu mpande zayo.

Umwana, umugore wo mu kigero cyo hagati n'umukecuru, barimo guseka cyane begeranye mu gikoni, umwana afite akababi k'icyatsi mu ntoki, barishimye bari gusangira ibyishimo nk'umuryango umwe uhuje urukundo.

Umugore, wicaye ku gitambaro k'imyitozo cy'ubururu. Ari kugorora amaguru, mu kibuga cy'ubusitani. Ubusitani buteyemo ibyatsi bigiye bitandukanye n'ibiti. Yambaye ipantaro y'iroza ,n'umupira w'imbeho wijimye.

Itsinda ry'abaganga bambaye imyambaro y'icyatsi y'akazi, bari mu cyumba aho bari kwita ku murwayi, bigaragara ko bari kumubaga, hari ibikoresho by'ubuganga nk'imashini zerekana amashusho, ifasha mu bikorwa byo kubaga.

Umwarimu uri mu kiganiro cy'ubuzima Mpuzamahanga, kigaragaza ubushakashatsi ku bibazo byo kubona serivisi z'ubuvuzi bwihutirwa ku bagore batwite mu mijyi no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere.

Abantu bambaye imyenda y'iroza barimo gutanga ibikoresho by'isuku ku n'abategarugori, hari urukuta rwanditse amagambo yerekeye isuku y'uburumbuke, abantu bicaye imbere basa n'abakurikiranye ibiganiro, umuntu umwe afite kamera abandi bafite imifuko n'ibikoresho.

Intebe y'ubuvuzi ya kijyambere ishobora guhindurwaho imyanya, ifite amacupa y'imiti n'intebe nto iyegereye. Hagaragara ibikoresho by'ubuvuzi ku meza y'icyuma hafi yayo. Ibikoresho byose biri ahantu hasukuye kandi hatekanye, biteguye kwakira umurwayi.

Umuganga cyangwa se umuforomo w'umukobwa wambaye imyenda y'icyatsi n'imisatsi y'umukara, agenda mu cyumba cy'ibitaro. Hasi hari ibitanda by'abarwayi bipanze neza, bifite amarido y'ubururu agenda atendera. Ibikoresho by'ubuvuzi biri ku mpande hamwe n'amatara n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Icyumba ni kinini, gifite amatara menshi atanga urumuri rwinshi.

Umuforomokazi wambaye imyenda y'akazi, ari kwita ku ruhinja ruri mu byuma byita ku bana bavuka bategereje igihe cyangwa bakeneye ubufasha bwihariye, afite agaseko ku maso, yitaye ku mwana, amufashe ukuboko yambaye uturindamirimo, ibikoresho by'ikoranabuhanga bikikije uwo mwana aho aryamye byerekana ubushyuhe n'ibindi bipimo by'ubuzima.

Umukinnyi w'imikino ngororamubiri wambaye umupira utukura, ufite nimero ibihumbi bitanu magana atatu na kabiri arangije isiganwa, afite akanyamuneza mu maso. Umugabo wambaye umwambaro w'umuhondo ugaragaza abashinzwe gutanga ubufasha, amufashe ukuboko amusekera. Mu nyuma hari abantu bagiye batandukanye bigaragaza ko baje gushyigikira iyi mikino.

Intebe y'abaganga b'amenyo ifite ibikoresho bijyanye no kuvura, hari amatara yaka hejuru, imashini zifashishwa n'abaganga, ibikoresho byo gukoresha n'ameza yo gushyiraho ibikoresho, icyumba cyiza gifite isuku kandi gifite ibikoresho bigezweho.

Itsinda ry'abantu barimo abana n'urubyiruko, barimo gukora imyitozo ngororamubiri mu kibuga. Iki gikorwa kigamije guteza imbere ubuzima bwiza n'imikino mu muryango, bari kurebererwa kandi n'abayobozi, bari gufasha mu guteza imbere no kuyobora iki gikorwa.

Abaganga n'abandi bakozi b'ishami by'ubuvuzi, bahagaze imbere y'imashini iri kwerekana amashusho mu buryo bujyanye n'ikoranabuhanga. Bari mu cyumba cy'abarwayi baryamye ku buriri, abandi bicaye ku ruhande. Barimo kuganira cyangwa gusuzuma ibirebana n' ubuvuzi.

Ibikoresho bifite ishusho y'intebe cyangwa akuma gafasha umuntu guhahagarara, gafite igice cyo hejuru gisa n'ameza, inkunga ku mpande ebyiri zifashe ukuboko, hamwe n'udutambaro tubiri tw'ubururu dufasha mu gushyigikira ikibuno k'inyuma.

Ukuboko k'umuntu gufatiye icupa ry'amazi ririmo amazi make, uko kuboko gutunze mu kirere, ikirere kibonerana gifite ibicu bitoya ibi bisobanura akamaro k'amazi mu buzima cyane cyane mu gihe cy'imyitozo cyangwa imikino.

Umugabo wambaye isengeri y'icyatsi uri gusuka amazi mu mutwe akoresheje icupa, afite igitambaro kiboshye ukuboko kw'ibumoso agaragara nk'unaniwe cyangwa yifashisha amazi kugirango akonje, bigaragara ko hari imyitozo ngororamubiri cyangwa siporo muri rusange.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ivi, yambaye igitambaro cyabugenewe, gishobora kuba ari igikingiririza ivi, cyangwa igifasha mu komora imvune, yambaye impeta ya zahabu ku rutoki, n'igikomo cy'mukara ku maboko, yambaye imyenda y'umweru igaragara inyuma, aho ashobora kuba ari umwambaro w'imyitozo cyangwa siporo, ibi byose byerekana ibijyanye n'imvune, ubuvuzi bw'ivi, cyangwa imyitozo ngororamubiri, ifasha mu gukira.

Ibumoso hari imbuto zitandukanye ziryoshye kandi zifite intungamubiri, umuneke, pome, kiwi, n'imizabibu itukura. Iburyo hari umugore uri gukora imyitozo, afite akanyamuneza mu maso, aryamye hasi akoresha akaboko nkaho ari gukora imyitozo, izwi nko guterura umubiri. Ibi byose bigaragaza ko kurya neza no gukora siporo, bifasha kugira ubuzima bwiza.

Ibimera bigiye bitandukanye bihinze mu dukopo ndetse n'utudobo tw'amabara agiye atandukanye, muri ibyo bimera harimo igikakarubamba, umwenya, umuhabura, igituntu, umwenya muremure ndetse n'umwenya w'icyatsi, ibi ibimera bihuriyeho cyane cyane ko byifashishwa mu bikorwa by'ubuvuzi, aho bivura indwara zigiye zitandukanye.

Ikirangantego cy'ibiro by'u Rwanda bishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti, gifite ikirango kirimo ibimenyetso by'ikirahure cy'ubuvuzi kiri hagati y'amashami y'ingano, ibi bigaragaza ubuziranenge ndetse n'ubuzima.

Ururabo ruto rw'umuhondo, rufite amababi manini y'icyatsi. Uru rurabo rufite amapetali abiri manini, kandi yegereye hamwe n'imizi isohokamo hagati. Ubwiza bw'uru rurabo, bugaragaza ubusitani bw'ibidukikije karemano, bikaba bishobora kuba igihingwa cy'imiti cyangwa se igihingwa cy'ubwiza.